Umugore n'umugabo bari kumwe, umugore n'umuganga, umugabo ashobora kuba ari umurwayi cyangwa ari umurwaza, umuganga w'umugore arimo aramuha amakuru hari ibyo ari kumubwira, umugabo nawe ataza amatwi arakurikiye kuko ibyo bari kumubwira ni ingenzi.

Isuzumiro ry'imiti, ahangaha ni aho basuzumira imiti, hazwi nka laboratwari, harimo umuganga, arimo arasuzuma imiti, biragaragara ko afite agacupa k'umuti agiye ku gatereka hano cyangwa akaba akahateruye, afite icyo agiye kugakoresha.

Muganga ari kumwe n'umuntu agiye kumupima indwara, afite agakoresho gapima malariya ashobora kuba agiye kumupima malariya, ashobora kuba agiye kumupima Sida, kuko nayo bayipimira mu rutoki, ariko indwara agiye kumupima aramufata amaraso, amaraso yo mu rutoki.

Umubyeyi w'umugore ateruye umwana ari ku gitanda kigaragara ko ari kwa muganga, yambaye imyenda kandi yo kwa muganga, ateruye umwana muto cyane w'uruhinja, rugaragara ko uyu mwana nta gihe kinini amaze avutse aracyari muto cyane rwose ariko mama umubyeyi we arishimye biragaragara ko uyu mwana ari uwe kuko byamushimishije.

Ubucuruzi bw'imiti y'indwara zitandukanye imiti ikaba igiye ibitse cyangwa se iri mu mwanya wabugenewe bitewe n'ubwoko bw'iyo miti, mu rundi rurimi rw'ikinyarwanda bavuga ko ahantu hacururizwa imiti ari muri farumasi.

Ubworozi bw'inzuki bukorewe mu ishyamba cyangwa se ku gasozi aho nyiri ugukora ubu bworozi aba agamije kugira ngo abone ubuki buturutse mu kazi aba yakoze, ubuki buzanwa n'inzuki ziba zorohewe muri iki gikoresho cyitwa umuzinga.

Mu bitaro kwa muganga, icyumba kirimwo umurwayi, umurwayi ararembye cyane ari kumwe n'umuganga, umuganga arimo arasuzuma umutima we uko utera kugira ngo amenye uburyo bafasha uyu murwayi.

Ababyeyi bicaye ahantu hasa nk'aho ari ku kigo nderabuzima bari kumwe n'umubyeyi dushobora kuba twamwita umuganga cyangwa twamwita umuntu uri kubafasha gusobanukirwa, kuko afite ikayi yanditseho ibintu bisa nk'aho ari kubibasomera kugira ngo na bo bagire amakuru bahabwa.